Icyumba cy'inama cyahuriyemo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zisa umukara zifite ameza afite ibitambaro bisa umweru, hagaragaramo umugabo w'inzobe wambaye ikote risa ikijuju n'umugore wambaye amadarubindi na esharupe isa umutuku n'ikote ry'umweru.

Ibaraza ry'ibitaro ririho umubyeyi uri mu kagare ufite ubumuga uteruye uruhinja, harimo umukecuru wambaye igitenge kirimo amabara y'icyatsi arimo n'umuhondo, harimo umugabo wambaye ipantaro isa ubururu, ikote ririmo amabara asa umutuku, umukara n'ingofero y'umweru, harimo umugabo wambaye ipantaro y'ikijuju n'ishati y'umweru.

Icyumba cy'inama mberabyombi kirimo televiziyo isa umukara, kirimo abagabo batanu n'abagore babiri umugore umwe murimo afite mudasobwa ateruye ku bibero wambaye ikote ry'umukara umupira w'umweru n'ipantaro isa umukara harimo amatara atatu y'umweru.

Urupapuro rw'igazeti ya leta ryo kuwa makumyabiri z'ukwacyenda bibiri nacumi n'umunani itegeko nomero mirongo itanu na kane umwaka wa bibiri na cumi n'umunani ryo ku wa cumi neshatu z'ukwa munani bibiri na cumi n'umunani ryerekeye kurwanya ruswa.

Umuhanda mugari uri gucamo imodoka zitwara abagenzi ziri mumabara asa ubururu n'umweru, harimo igikamyo gisa umweru nibara risa umuhondo, hakurya yawo hari ibiti birebire bisa icyatsi, hariho umugabo wambaye ipantaro isa umukara, ishati irimo amabara asa umweru, n'ubururu.

Inkengero z'umuhanda ziriho imodoka z'ibikamyo n'imodoka ngufiya, harimo umugore uri kugenda wambaye igitenge cy'amabara y'umutuku, umuhondo, umukara n'umupira w'umweru, hariho ushinzwe umutekano wambaye ipantalo y'umukara, ishati irimo amabara y'ubururu n'umukara n'ingofero y'umukara, harimo umugabo wambaye umupira w'umuhondo.

Icyanya cy'inganda kirimo amazu maremare n'amazu magufiya, kirimo ibiti birebire bifite amashami asa icyatsi, harimo inzu zifite amabati asa ubururu hamwe n'amatafari, harimo n'izindi zifite umukara ndetse n'umweru.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uriho akayira k'abanyamaguru. Urimo imodoka isa umutuku, urimo umumotari wambaye casike isa umuhondo, ijile y'umuhondo n'ubururu, ikote risa umukara. Harimo ibyerekezo bigana hepfo n'ibijyaruguru.

Inzira y'igitaka irimo imikuku iri muri karitsiye zifite ibipangu bisa umukara n'inkuta zisa umuhondo, ifite ibiti birebire by'icyatsi n'indabo ngufiya z'icyatsi.